Abantu bari mu cyumba cy'inama bikaba bigaragara ko ari icyumba giteguye neza, bose bicaye ku ntebe zikikije ameza aho bicaye barebana, ku meza hakaba hari imashini, uducupa tw'amazi, telefone ngendanwa ndetse n'ibindi. Inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditseho yuwesayidi.

Abantu ubona ko bicaye ahantu, bisa nk'aho habereye inama, mu bigaragara, ni mu cyumba cyiza cyane, ubona ko giteguyemo ameza agezweho, bikaba bigaragara ko bano bantu ari nk'abanyamakuru kuko hari kamera iteretse ku meza ndetse hari n'undi ufite indi kamera.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'amarinete, ahagaze imbere y'abantu bisa nk'aho ari kugira ijambo ababwira, imbere ku kantu kari imbere ye, hariho mikorofone ndetse hakabaho n'ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda, handitse ngo rubyiruko menya amateka yawe, inyuma ye hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, cyandikishijeho amagambo y'umweru.

Abaturage benshi bateranyirijwe ahantu ubona ko bicaye bisa nk'aho hari inama runaka irimo iraba, hari uduti turiho ibyapa byanditseho amagambo ariko atagaragara neza. Aba baturage bose urabona ko bishimye kandi bateze amatwi, umuntu urimo aragira icyo abagezaho.

Abantu batatu abagabo babiri n'umugore umwe, bakaba bicaye ahantu. Imbere yabo ku meza hariho uducupa ndetse na telefone ngendanwa n'amakaye n'urufunguzo. Bikaba bigaragara ko hari inama y'ingenzi bajemo, aho bateze amatwi uri kubaha ijambo.

Abantu benshi batandukanye, ubona bateraniye ahantu hameze nko mu cyumba cy'inama, muri abo bantu hakaba harimo umusirikare w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Inyuma yabo hari umuntu ufite kamera, bisa nkaho ari umufotozi, aba bantu bose baratuje ndetse bakurikiye umuntu uri kubagezaho ijambo.

Umugabo w'umusirikare wambaye impuzankano ndetse akaba afite mikorofone mu ntoki ze. Bisa nk'aho hari inama runaka arimo, akaba ari imbere y'abantu arimo aratanga imbwirwaruhame. Inyuma ye hari akantu kameze nk'ameza, kariho igitambaro cy'umutuku n'umweru gateretseho agacupa karimo amazi ndetse iruhande rwako hakaba hateretse n'intebe.

Ni ahantutu ubona ko ari mu cyumba cy'inama hakaba harimo abantu benshi bagiye batandukanye aho hagaragaramo n'abapolisi b'igihugu cy'u Rwanda, harimo ibitambaro bikoze mu mabara y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, haragaragaramo umugore ufite mikorofone uri gutambutsa ijambo, iruhande rwe hari umukobwa uhagaze wambaye ikote ry'icyatsi ndetse kuri buri meza hakaba hariho amazi ndetse na ji.

Umugabo uhagaze ahantu imbere y'abantu, uyu mugabo akaba yambaye ishati nziza ndetse n'amarinete, mu kaboko ke k'indyo afitemo mikorofone akaboko ke k'imoso akaba yambaye isaha, uyu mugabo bisa nkaho ari mu nama arimo araganiriza abantu, imbere ye haragaragara agacupa k'amazi ndetse ku ruhande hari umuntu ugaragara ariko atagaragara neza.

Ni ahantu hagaragara nko mu cyumba cy'inama hakaba harimo abantu ubona bacyeye cyane, biragaragara ko hari umuntu uri imbere bari kumva imbwirwaruhame ye, inyuma yabo hari umuntu umeze nk'umufotozi aho afite kamera ari gufotora, ku meza y'aba bantu hakaba hariho uducupa turimo ibyo kunywa bitandukanye.

Ni abantu benshi bateraniye ahantu bisa nk'aho ari mu cyumba cy'inama, bakaba bicaye imbere yabo hariho uducupa twa'amazi ndetse n'utwa ji, hari ikintu k'igitara kibarimo hagati ndetse haragaragara n'abandi bantu bambaye imyenda y'abadaso.

Ahantu hari abantu batatu bagaragara hakaba hari n'undi inyuma yabo ariko utagaragara neza, harimo umwe hagati wambaye umushanana ndetse bakaba bose bafashe ku kantu wagirango ni nka seretifika uwo muntu yari ahawe, inyuma yabo hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu cyanditseho n'amagambo yandikishijwe amabara y'umweru.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, ubona harimo umwe wambaye imyenda ya gisirikare. Bakaba bicaye barebana, bisa nkaho hari ikintu runaka cy'ingenzi barimo baraganiraho, imbere yabo hateretse uducupa n'uturahure barimo baranyweramo ndetse hari n'uturabo tubari imbere.

Ahantu ubona ko bisa nkaho habereye inama, hakaba hari abantu bicaye mu mahema. Harimo abapolisi ndetse n'abasirikare, hakaba hari umudamu ufite ikayi ndetse na telefone ngendanwa mu ntoki, biragaragara ko bateze amatwi umuntu uririmo abagezaho ikiganiro.

Umumama uhagaze imbere y'abantu akaba ari mu cyumba kiri kuberamo inama, afite mikrofone aho ari kuganiriza abantu baje muri iyo nama ndetse inyuma ye ku meza hakaba hateretse porojegiteri irimo iramufasha kugira ibyo yereka abaje mu nama, hari ibyapa bihagaragara.

Ni ahantu hameze nko mu cyumba cy'inama hakaba harimo abantu bitabiriye inama batandukanye, harimo umugore wambaye amarinete ndetse buri muntu imbere ye ku meza hakaba hateretse agacupa k'amazi, bigaragara ko bano bantu bakurikiye umuntu uri imbere arimo aragira icyo ababwira.

Abantu benshi batandukanye bakaba bicaye mu cyumba cy'inama cyangwa se sale y'inama, bisa nkaho bakurikiye umuntu uri imbere uri kugira icyo ababwira ndetse ku meza ya buri muntu hakaba hateretse agacupa k'amazi ndetse na ji y'Inyange.

Ni ahantu bisa nk'aho habereye ubukangurambaga runaka hakaba hari umugabo wambaye ingofero yanditseho FPR ndetse n'umupira akaba afite mikorofone mu ntoki, aho hantu ahagaze hakaba hariho akantu kanditseho FPR, inteko rusange y'umuryango wa FPR Inkotanyi, inyuma ye hari n'ikindi cyapa cyanditseho FPR ndetse hari abandi bantu bicaye bamuteze amatwi.

Abantu benshi bahagaze ahantu munsi y'inzu yubatse mu buryo bwa kijyambere ndetse iyo nzu ikaba ari etaje, bisa nkaho hari inama runaka bari bavuyemo, hanyuma bakaba barimo barafata ifoto y'urwibutso, hejuru yabo hari amayisikariye agiye ariho ibyuma ku mpande, abantu bazamuka bafasheho bajya muri iyo nzu.

Abagabo bahagaze imbere y'igitambaro gikozwe mu idaraporo ry'igihugu cy'u rwanda. Aba bagabo bakaba bambaye neza cyane aho barimo barakoma amashyi. Kuri icyo gitambaro hakaba hariho icyapa cyanditseho ngo '' Inama ya komite mpuzabikorwa y'akarere ka Nyagatare''.

Abantu babiri bicaye ahantu, hakaba harimo umugabo ndetse n'umugore, umugore yambaye amarineti ndetse afite ikaramu, imbere ye hakaba hari indi kayi ifunguye, imbere yabo ku meza hakaba hateretse ubucupa bubiri bw'amazi, ku ruhande rw'umugabo hakaba hateretse telefone ngendanwa.

Ni ahantu mu byatsi harambuye akantu kameze nk'umwenda karirimo ibara ry'umukara. Hejuru y'uwo mwenda hakaba hari imyambi gakondo yakoreshwaga mu muco nyarwanda. Iyi ngiyi akaba ari yo ntwaro yifashishwaga n'abantu ba kera, nko mu gihe cy'ubwami igihe abasirikare barindaga umwami ari yo bakoreshaga ku rugamba.

Aha ni ahantu hamwe hazwi nko mu Rukari, hakaba hari inzu y'amateka ya kera mu muco nyarwanda, hari inzu yubatswe mu buryo bwa burende ndetse hakaba hari n'urupangu rwubatse mu muco nyarwanda, hari inyuma ibiti bikikije iyo nzu.

Intore zirimo zirabyinira ahantu ubona hatatse ndetse hameze neza, hari amatara y'imihondo ahari ndetse hicaye abantu benshi bagiye batandukanye, aba babyinnyi biragaragara ko bari kubyina imbyino gakondo cyangwa se imbyino nyarwanda.

Ni ahantu bisa nkahohabereye ikirori runaka, hakaba hari abantu benshi bahateraniye. Hari abakobwa bikenyeye ndetse bakaba barimo barabyina imbyino gakondo, aho bateze amaboko. Urabona ko ari ibintu byiza cyane, aho umuco nyarwanda bawushyize imbere.

Ni ahantu muri sare bisa nkaho harimo harakinirwa imikino igaragaza umuco nyarwanda, hari umwami ndetse n'umwamikazi barimo baratambagira imbere y'abantu bicaye bari kwitegereza, inyuma yabo hari n'abandi babagaragiye.

Mu muco nyarwanda harimo imbyino nyarwanda hano hakaba hagaragara abakobwa basa neza ubona ko bikenyeye imikenyero barimo babyina imbyino gakondo nyarwanda, bari ahantu hameze nko muri sale bisa nkaho habereyemo inama runaka, hari abantu bahicaye babateze amatwi ndetse barimo baranabareba.

Mu muco nyarwanda hari imbyino gakondo zabyinwaga zagaragazaga umuco w'abanyarwanda, aba bakobwa bakaba bateze amaboko nk'intore bigaragara ko barimo barabyina imbyino gakondo cyangwa se imbyino nyarwanda, urabona ko bakeye ndetse bambaye imyenda yabugenewe.

Umugabo witeye imyitero y'imikenyero, akaba yiyogoshesheje zimwe muyogosho zogoshwaga abantu bo mu gihe cy'ubwami cyera mu muco nyarwanda. Hakaba hari inyogosho zitwaga amasunzu, uyu muntu akaba arizo yiyogoshesheje.

Abakobwa batanu ubona bicaye ahantu mu nzu nziza cyane, bakaba bambaye imikenyero, bose ubona ko bakennye, bafite utuntu tw'umweru bishyize ku mutwe, bisa nk'aho hari ikirori runaka bagiyemo ndetse bakaba bambaye nk'uko Abanyarwanda ba kera bambaraga, mu muco wacu w'Abanyarwanda.

Mu muco nyarwanda hari ubugeni bwinshi ugiye usanga abanyarwanda bagiye bafite, hano haragaragara ikibindi gikozwe n'umuntu runaka, iki kibindi kikaba atari ikibumba ahubwo bisa nkaho hari umuntu wakiboshye, yakiboheye n'akantu bagiterekaho ndetse muri icyo kibindi hakaba hashinzemo n'umuheha.

Ni ahantu ubona hari ubutaka bwahariwe kubakwamo umunara, hakaba hari umunara muremure ugiye uriho ibintu by'umweru, munsi y'uwo munara haragaragara ibiti by'imikindo ndetse hari n'insinga z'amashanyarazi ziri aho ngaho hafi.

Ni ahantu hameze nk'aho ari mu gace k'icyaro, hakaba hari umuhanda w'ibitaka. Ndetse haragaragara amazu, ibiti n'insina, ziteye iruhande rw'uwo muhanda, muri uwo muhanda hakaba harimo n'abagenzi. Haragaragara kandi amapoto ariho insinga z'amashanyarazi zigenda zijyana umuriro mu ngo.

Ni ahantu bigaragara ko ari agace kahariwe ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi hakaba hari amapoto menshi agiye atandukanye ndetse na batiri hariho insinga nyinshi zijyana umuriro hirya no hino, hakaba ari ahantu h'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'amashanyarazi REG.

Agace ubona ko kagenewe ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, hakaba hari amapoto menshi n'amabatiri menshi ariho insinga, zigiye zijyana umuriro hirya no hino ku isi. Hari ipoto rimwe ririmo rirurirwaho n'abakozi babishinzwe, bisa nk'aho hari ikibazo runaka bagiye gukemura.

Ni ahantu hameze nko ku rugomero, aho hagiye hari amapoto menshi agiye atandukanye ndetse n'insinga, bigaragara ko ariho hatunganyirizwa ibintu by'amashanyarazi. Bisa nkaho ahangaha, ariyo soko y'amashanyarazi.

Ahantu bigaragara ko ari ku rugomero rw'amashanyarazi hakaba hari insinga nyinshi cyane, haragaragara ibiganza by'umuntu w'umuzungu aho afite toronovisi arimo aragerageza gukanika ibyari byapfuye.

Ni umuntu uri ahantu hari Cash Power ariko uwo muntu akaba atagaragara neza, mu kaboko ke k'indyo afitemo telefone igendanwa, aho akaboko k'imoso arimo arakanda imibare ashyira muri Cash Power kugira ngo agure umuriro.

Ni ahantu bigaragara ko hari amapoto menshi cyane afashe insinga zijyana amashanyarazi hirya no hino, kakaba ari agace bisa nk'aho kahariwe gushyirwamo ibikorwa by'umuriro w'amashanyarazi, hakaba hari ibibatire byinshi cyane bihagaragara ndetse bifasheho insinga zijyana umuriro hirya no hino.

Abakobwa bane ubona ko bakeye, bose bakaba barasutse. Aba bakobwa bambaye amajire, aya majile akaba yanditseho REG. Iki kikaba ari ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda, gishinzwe ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi.

Ni ahantu hagaragara inzu bisa nk'aho yubatse mu buryo bwa kijyambere, hakaba hagiye hagaragaraho imashini nyinshi zitanga umuriro w'amashanyarazi, hagaragara kandi ikintu kimeze nka batiri kiriho ibyuma byinshi bisa nk'aho na cyo gifite inshingano zo kohereza umuriro hirya no hino.

Ni umugore urimo ururira urwego, aho afite ibikoresho yifashisha ashyira umuriro w'amashanyarazi mu nzu, hari akaboko k'umugabo kagaragara nk'aho kagiye kumufatira urwego kugira ngo rudaririma, ni ahantu ubona hari insina ziteye ndetse bigaragara ko wagira ngo ni mu cyaro.

Ni ahantu bigaragara ko ariho hahurira insinga nyinshi z'amashanyarazi. Bishoboka ko aha ngaha ari ahantu bacungira uko amashanyarazi akoreshwa. Haragaragara ibiganza by'umuntu wafunguye igitabo arimo arasoma amategeko n'amabwiriza kugira ngo agire ikintu yakosora muri izi nsinga.

Ipiloni rinini rikoze mu giti, hakaba hariho n'utundi duti dutambitseho turiho insinga nyinshi z'amashanyarazi. Zikaba zijyana umuriro hirya no hino mu gihugu cy'u rwanda, mu buryo bwiza kandi bwizewe.

Aha ni hejuru ku ibati, haragaragara inzu isakarishije amabati y'umutuku, hejuru ku ibati hakaba hari umwirasire uyu mwirasire ukaba ukoreshwa nk'igikoresho gitanga amashanyarazi aha ngaha muri ino nzu kuko uno mwirasire ubasha gukurura imbaraga ziva ku zuba, warangiza ukazikuramo umuriro w'amashanyarazi.

Umukobwa wambaye igisarubeti cy'ubururu ndetse akaba yambaye n'akarindamutwe, afite ipensi mu biganza bye arimo arakata insinga, ni ahantu hagaragara insinga nyinshi zigiye zitandukanye z'umuriro w'amashanyarazi, bigaragara ko uyu mukobwa hari akabazo arimo aratunganya.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe, akaba yuriye ifoto ry'umuriro w'amashanyarazi, mu bigaragara ni uko iri poto ryari ryagize ikibazo, akaba yaje kubitunganya kugira ngo umuriro w'amashanyarazi wongere ubonekera.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'akarindamutwe, akaba yuriye ipoto y'umuriro w'amashanyarazi, bisa nkaho hari ikibazo uyu muriro wari wagize, uyu mugabo akaba agiye gukemura icyo kibazo.

Ahantu hari amapoto akoze mu byuma manini, ayo mapoto akaba ari insinga nyinshi zijyana umuriro w'amashanyarazi hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, hagaragara kandi munsi ibiti ndetse n'amazu yubatsemo.

Ni ahantu hagaragara sitade ubona ko irimo tapi, ndetse hakaba hari n'igice abafana bicaramo cyubakiye, haragaragara amazamu ndetse n'inyuma y'ikibuga, aho harimo ya mirongo abantu birukankiramo.

Sitade ikinirwamo umupira w'amaguru hakaba hagaragara ikibuga gisashemo tapi, hari amazamu ahagaragarara ndetse ku ruhande rw'icyo kibuga hakaba hari amapoto ateyeho amatara amurikira icyo kibuga, haragaragara igice cyubakiye cyicarwamwo abafana ndetse inyuma y'icyo kibuga hari igice kimwe kinyurwamo n'abantu barimo barirukanka.

Inyubako zubakwa na Leta, zikaba zisakarishijwe amabati y'umutuku, hakaba hagaragara ko izi nyubako ziriho amatafari ahiye, biragaragara ko ari ahantu hatuzwa abantu badafite ubushobozi ndetse hahanagaragara ikirere kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, imbere y'izi nyubako hari utwatsi dutoya ndetse tuvanzemo n'ibitaka.

Ni ahantu hari imwe mu nzu ya leta itangirwamo serivisi zitandukanye za leta. Iyo nzu ikaba iziteguye na senkenge, ndetse iyi nzu ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, hejuru hariho ibintu bimeze nk'aho ari ibyuma, ndetse iyo nzu isize amabara y'umweru, iri ahantu hagati mu ishyamba.

Ikigo nderabuzima kiri mu mabara y'ubururu ndetse hakaba hari abagabo bisa nkaho bagisohotsemo babiri muri bo ari abazungu, hari abandi babyeyi bicaye aho ngaho ku ntebe zihari ndetse ku bikuta by'icyo kigo nderabuzima hari amagambo yanditseho agira ati "nkurikirane uko ubuzima bwanjye buhagaze buri gihe nipimisha indwara zitandura urugero umuvuduko w'amaraso, isukari n'izindi".

Ni ikigo nderabuzima kiri mu mabara y'ubururu, kikaba gisakajwe amabati y'ubururu, hari abantu benshi cyane baje kuri icyo kigo nderabuzima, bisa nk'aho hari impamvu runaka yahabazanye, haragaragara kandi n'ibyapa byamamaza bimwe mu bigo ndetse haragaragara n'ibiti by'imikindo bihateye.

Ahantu hagaragara inzu iyo nzu ikaba yubatse munsi y'ishyamba ryinshi rihari, hari abantu benshi ubona bahahuriye bigaragara ko hari serivise runaka baje kuhaka, iyo nzu ikaba ari ofisi ya migirasiyo.

Ahantu hagaragara inzu nziza cyane isize ibara ry'umweru, ndetse iyo nzu ikaba yubatse mu buryo bwa kijyambere. Hagaragara abantu iruhande rwabo bambaye imyenda y'imikara bateruye amasanduku, ndetse n'abandi babari inyuma bafite indabo bisa nk'aho bagiye gushyingura.

Ni mu muhanda nka kimwe mu gikorwa remezo cyubatswe na Leta, hakaba harimo ibimodoka byinshi by'ibikamyo bigenda bikururana, iruhande hakaba hari umumotari uhetse umugenzi ndetse n'umunyonzi, iruhande rwabo hakaba hari umuntu uri kugendesha amaguru.

Ni ahantu hagaragara nko mu muhanda wa kaburimbo, aho harimo umumotari uhetse umugenzi, uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse hakaba hari korutire bubatse kugira ngo abantu batazakora impanuka.

Ni mu muhanda muremure wa kaburimbo hakaba hagaragaramo imodoka imwe mu zitwara abagenzi, kuri uwo muhanda iruhande rw'iburyo ndetse n'ibumoso ukaba ukikijwe n'umusozi ndetse n'ibiti bigiye biteyeho haragaragara kandi ikirere kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Iki ni kimwe mu bikorwa remezo Leta yubatse, kikaba ari ikiraro kiza cyane ubona ko cyubakishije amabuye ndetse na sima ndetse ku ruhande hakaba hariho ibyuma bihakikije kugira ngo hirindwe impanuka, haragaragara imisozi ihari ndetse iteyeho n'ibiti.

Ni ahantu hagaragara nkaho ari mu rusisiro hakaba hubatse amazu menshi agiye atandukanye ari mu mabara atandukanye, hari umuhanda wa kaburimbo urimo ibimodoka by'ibikamyo bitwara imizigo ndetse kuri uwo muhanda haragaragara amapoto ariho amatara amurikira uwo muhanda nijoro, haragaragara kandi n'ibindi biti bihateye.

Ni inzu za leta ubona ko zubatse ahantu hagari, zikaba zisakarishije amabati yenda gusa ubururu ndetse ku bikuta byahozo hakaba hariho amatafari ahiye, zigiye zifite inkingi z'ibyuma ndetse hirya y'izo nzu haragaragara nk'ahantu hari imisozi, hateye n'ibiti.

Ni muri sitade ubona ko harimo ikibuga cyiza cyane, cyubatse neza ndetse kirimo tapi, hakaba harimo umugabo ugihagazemo ndetse hahagaragara n'igice gisakariye, abafana bicaramo, iki ngiki kikaba ari igikorwaremezo cyubakwa na leta.

Ni ahantu ubona ko hubatse ibikorwaremezo bya leta, hakaba hari amazu yubatse neza cyane asakarishijwe amabati yenda gusa icyatsi. Hari imihanda ibiri ihagaragara, ndetse hagaragara n'amapoto kuri iyo mihanda ariho amatara n'ibiti bihakikije ndetse na garden.

Abagabo batanu bahagaze ahantu hateye insina ndetse n'ibindi biti muri abo batanu hakaba harimo umugabo umwe w'umupolisi wambaye impuzankano y'igihugu cy'u Rwanda i ya gipolisi, imbere yabo harunze utugeri tw'ibiti ndetse biragaragara ko hari ikibazo runaka baje gukemura.

Ahantu hubatse inzu iyo nzu ikaba yubakishije amatafari ahiye ndetse ni amabati y'ubururu, hari abantu bateraniye aho hantu. Imbere hari umugabo wambaye imyenda isa nkaho ari umupolisi, akaba afite mikorofone mu biganza bye, bisa nkaho uyu mugabo hari ijambo runaka cyangwa se ubutumwa bw'ingenzi ari kubwira abateraniye aho ngaho.

Abantu b'abagabo ubona ko bakeye basa neza, muri abo bagabo hakaba harimo umwe wambaye impuzankano y'abapolisi b'Igihugu cy'u Rwanda. Bari ahantu mu nsina ndetse ni mu rutoki . Imbere yabo hateye intebe zikoze mu biti bigaragara ko hari umugabo uri imbere uri kubasobanurira ari we bose bateze amatwi.

Abantu bicaye bakoze uruziga munsi y'ibiti, hakaba hari umugabo uri imbere wambaye akajiri keza cyane kariho imifuka, ako kaji kakaba ari umukara. Afite microphone ye mu kaboko k'indyo ,arimo aragira icyo avuga .Mu bigaragara ni uko hari abantu runaka baje gukemurira ibibazo.

Ni abantu ubona ko bahagaze imbere y'inzu imeze nkaho ari ikigo cy'ishuri ndetse bakaba bahagaze munsi y'ibiti, imbere yabo hakaba hari abagabo bisa nkaho hari ikintu barimo barababwira cy'ingenzi, abandi babateze amatwi.

Umugabo uhagaze ahantu imbere y'inzu, akaba ahagaze mu kantu gakozwe mu mbaho, yambaye amalinete ndetse n'agatambaro, kambarwa n'abantu mu gihe cyo kwibuka. Afite mikorofone mu ntoki, aho arimo aragira ikiganiro atambutsa, iruhande rwe hari icyapa cyanditseho, Kwibuka Twiyubaka .

Ni ahantu hateraniye abantu benshi, hakaba hubatse n'amahema. Hari umugabo wambaye ishati y'umukara ubari imbere bisa nkaho ari we uri kugira ikintu ababwira, inyuma hari ibiti bihagaragara ndetse hari n'ibyapa bihamanitse.

Abantu benshi, harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo n'umupolisi ndetse n'umusirikare. Bisa nk'aho abanga bari baje kwibuka, aho imbere yabo hari umugabo wambaye linete z'umukara, ufite indabo ari gutereka ahantu.

Abantu benshi bateraniye ahantu bagiye batandukanye harimwo abambaye impuzankano y'icyatsi, hakaba harimo umusirikare wambaye impuzankano y'abasirikare b'Igihugu cy'u Rwanda, bisa nk'aho bari ahantu baje gukora umuganda, aho hantu hakaba ari ahantu ku musozi hateye ibiti by'inturusu ndetse hakaba hari n'amazu ahagaragara.

Ahantu hubatse inzu nziza cyane. Ikaba isakarishijwe amabati y'ubururu ndetse kuri iyo nzu yose ikaba ikikijwe n'amatafari ahiye. Hagaragara ikigega kijyamo amazi ndetse ku gikuta haparitse igare. Inyuma haragaragara ahantu bisa nk'aho hari amatente ahubatse. Harimo n'abantu ndetse imbere y'iyo nzu hakaba hari akantu kanditseho ngo itorero ry'Umudugudu wa Gacudezi ya mbere.

Ni ahantu ubona ko hubatse amahema hakaba hari abantu basa nkaho hari igikorwa runaka bitabiriye, hari abagabo ndetse n'umugore umwe bahagaze imbere y'abo bantu bisa nkaho bafite buje barimo bagenda bacanirana buri umwe aha urumuri undi, harimo umugabo w'umusirikare wambaye impuzankano y'igihugu cy'u Rwanda.

Ahantu hahuriye abantu benshi bagiye batandukanye, hakaba hubatse amatenti. Hagaragara umupolisi uri hagati yabo uri kugira ijambo babwira ndetse hari icyapa cya repubulika y'u Rwanda, Intara y'Iburasirazuba, Akarere ka Nyagatare. Ukaba ari umunsi mukuru mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika, bari barimo bizihiza icyo gihe.

Ahantu hicaye abantu mu ngeri zigiye zitandukanye bakaba bicaye munsi y'ihema harimo abapolisi ndetse n'abasirikare bisa nkaho hari umuntu uri imbere yabo uri kugira ikintu ari gutambutsa bateze amatwi, hari ameza atetseho uducupa tw'amazi.

Ni mu muhanda ubona ko urimo amapave, hakaba harimo abantu b'abasore babiri bose bari ku mamoto, imbere yabo haragaragara inzu iriho amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Ahantu hasashishije amapave hakaba haparitse imodoka nziza cyane yo mu bwoko bw'ivatiri ndetse hakaba hagaragara na moto iri ku ruhande, imbere y'inzu hicaye umugabo ndetse iyo nzu ikaba igaragara nk'aho iteye irangi ry'umweru.

Umugabo ugaragara nkaho ari umusaza akaba ari gutwara igare mu muhanda wa kaburimbo, kuri iryo gare akaba ahetseho ibintu bisa nkaho avuye kurangura, iruhande rw'umuhanda hagaragara akayira k'abanyamaguru ndetse haragaragara n'inzu iriho igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, hagaragara insina n'ibiti ndetse n'ipoto rijyana insinga z'amashanyarazi.

Ni mu muhanda wa kaburimbo hakaba harimo imodoka ifite ibara ry'umweru, iyi modoka ikaba yanditseho bora indasitiri rimitedi, iyi modoka ikaba itwara imizigo ndetse iruhande hakaba hagaragara akayira k'abanyamaguru.

Ni ahantu imbere y'ikigo nderabuzima, kiri mu mabara y'ubururu, hakaba hicaye abantu muri jalide, harimo umugabo w'umupolisi wambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda, bahagurutse bose bari gukoma amashyi, hagati yabo harimo umubyeyi bisa nk'aho agiye kubyina, hari ibiti bihari.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye, bikaba bisa n'aho barimo barakora umuganda, bari ahantu ubona ko bose bari mu murimo, aho umwe ari gufata ibyondo akabihereza undi kugira ngo babashe kuba bakora umuganda wabo usozwe vuba.

Ahantu bisa nk'aho ari mu cyaro, hakaba hari abantu benshi bagiye batandukanye, bisa nk'aho barimo barakora umuganda rusange, iruhande rwabo hakaba hari insina zihateye ubona ko hari urutoki rugari, hagaragara kandi inyubako zihubatse.

Ni ahantu bisa nk'aho ari mu kibuga cy'umupira bakaba bahubatse amahema, hagaragara abagabo babiri umwe akaba ari umupolisi w'igihugu cy'u Rwanda iruhande rwe hari abasore babiri bafite ibyapa byanditseho ngo gerayo amahoro.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye hakaba harimo abambaye impuzankano z'imikara, birasa n'aho barimo barakora umuganda aho hari umuntu w'umusirikare wambaye impuzankano y'igihugu cy'u Rwanda, ufite telefone ku gutwi inyuma ye hakaba hari ibiti bihari ndetse haragaragara n'imodoka bajemo.

Umugabo w'umupolisi wambaye impuzankano za gipolisi z'Igihugu cy'u Rwanda akaba afite mikorofone mu ntoki aho ari kugira ijambo atambutsa. Hari abantu benshi bari aho, hari abicaye mu matente ndetse hari n'abandi bahagaze iruhande rw'amatente, bisa nkaho hari ikirori runaka cyangwa se hakaba hari ubutumwa runaka uyu mupolisi ari gutambutsa.

Ahantu bigaragara ko hasa nk'aho habereye igikorwa runaka, hakaba hagaragara umugabo uhagutse wambaye imyenda ya gisirikare uzamuha amaboko asa nkaho ari gusuhuza abaturage. Hubatse igisharagati ndetse hari n'abandi bantu bakiyicayemo, harimo abapolisi.

Abantu bateraniye ahantu bicaye mu ihema, hakaba harimo abapolisi ndetse n'abasirikare n'abandi baturage basanzwe, biragaragara ko hari inama runaka bitabiriye abo bose bateze amatwi umuntu uri imbere uri kugira ikintu ababwira.

Abantu benshi cyane ubona ko harimo abambaye imyenda y'imikara iriho ifoto ya Perezida w'Igihugu cy'u Rwanda. Bakaba bari mu muganda ubona ko bishimye cyane kandi ari urubyiruko.

Ni abantu bigaragara ko bo bari mu muganda rusange, hakaba harimo abakobwa ndetse n'abahungu, umuhungu ateruye ikibuye kinini ndetse umukobwa umuri inyuma na we yikoreye irindi buye, biragaragara ko bari ahantu hari ibihingwa bimeze nk'aho ari amasaka.

Umugabo n'umugore bahagaze mu kibuga cya tapi gikinirwamo umupira w'amaguru. Imbere y'umugabo hateretse baro ndetse iruhande rwe hakaba hari uwo mugore. Bisa nkaho bagiye gukina agapira cyangwa hari igikorwa runaka baje gushyigikira.

Abantu benshi bari ahantu hagari bigaragara ko ari nijoro bakaba bose bari gukora imyitozo ngororamubiri. Bari ahantu hari kwaka amatara bisa nkaho hari umuntu uri imbere yabo urimo araberekera rimwe ibyo bagomba gukora.

Abantu benshi bari ahantu ubona ko hameze neza, bakaba bari muri siporo bari gukora imyitozo ngororamubiri mu masaha y'ijoro kuko amatara arimo araka, imbere yabo hari umuntu urimo aragerageza kubayobora nabo bagakora ibyo akoze.

Ni muri sitade ubona ko irimo ikibuga kirimo tapi hakaba harimo amakipe abiri ari gukina. Inyuma hari igikuta cyangwa se inzu ihagaragara iri mu ibara ry'umuhondo ndetse hari indi imbere yayo hariho ikigega kibamo amazi.

Ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru ubona ko ari ikibuga gisashemo tapi, haragaragaramo abantu batandukanye aho harimo amakipe abiri imwe yambaye imyenda y'imihondo indi yambaye imyenda yenda gusa imikara, haragaragara kandi inyuma yabo inyubako zikikije icyo kibuga.

Ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru ubona ko iki kibuga gisashemo tapi ndetse hakaba harimo amakipe abiri arimo arakina. Imwe yambaye imipira y'umukara, indi yambaye imipira y'imweru hagaragara izamu, ndetse haragaragara inyuma yaho utuntu tugiye dukoze nk'imisozi ariko tw'ibitaka.

Ni mu kibuga cy'umupira hakaba hano ari muri sitade, harimo ikibuga cya tapi ubona ko kimeze neza, harimo abagabo barimo barakina umupira ubona ko bakuze bamwe bambaye amajezi y'ubururu abandi ay'umuhondo, haragaragara ahantu hicara abantu baje kureba umupira ndetse hagaragara na moto yegetse ku rukuta n'umuntu ushinzwe umutekano.

Abagabo bane b'abakinnyi bahagaze mu kibuga kirimo tapi ubona ko bambaye imyenda yagenewe gukinanwa umupira. Inyuma yabo hari korotire ihari ndetse hagaragara imisozi igiye iriho ibiti bihateye.

Ni amakipe abiri bigaragara ko ari mu kibuga kirimo tapi akaba arimo arakina, iruhande rw'ikibuga hakaba hahagaze abandi bantu bisa nk'aho barimo barafana hakaba mu kibuga hagati harimo umusifuzi w'umukobwa biragaragara ko hakurya y'ikibuga hari ibiti ndetse hakaba n'ibindi byatsi.

Abakinnyi bari mu kibuga ariko igice kinini kikaba kigizwe n'ibitaka. Bakaba barimo barakina umupira, abenshi bambaye impuzankano. Hirya yabo hari abafana barimo barabafana ndetse hari n'amamoto ahaparitse.

Ni ahantu hari ikibuga cy'umupira, ariko icyo kibuga kikaba ari ibitaka hagaragara ipoto rikoze mu byuma ndetse harimo umukinnyi wambaye impuzankano urimo uratambuka mu kibuga, inyuma y'izamu hari inyubako nyinshi zihagaragara.

Abantu benshi batandukanye, bari ahantu bari gukora imyitozo ngororamubiri ariko bikaba bigaragara ko ari nijoro. Hari umuntu uri imbere arimo arabereka uburyo babigenza nabo bakamufasha. Amatara arimo araka.

Ni mu kibuga gikinirwamo umupira w'amaguru hakaba harimo abagabo bisa naho bari kwitegura gutangira umukino. Iki kibuga kikaba kirimo ibyatsi byiza ndetse hakaba hasashemo tapi, inyuma yabo haragaragara ahantu hari inyubako nziza cyane ndetse n'ibiti.

Abantu bicaye hasi mu kibuga ubona ko barimo barakora imyitozo ngororamubiri. Imbere yabo hari umuntu ufite mikoropone bisa nk'aho ari we urimo arababwira icyo gukora. Inyuma ye hari ahantu hasakaye hicara abafana. Aha hantu hakaba ari muri sitade.

Ahantu hameze nko muri stade, aho hicayemo abantu baje gufana umukino w'amaguru, harimo abantu benshi batandukanye ndetse hahanagaragara n'abambaye utuji bisa nk'a aribo bazwiho umutekano, aho hantu hasakarishijwe ibyuma ndetse harimo na kamera na bafuli.

Ni umuntu wambaye imyenda yabugenewe bakinana umupira w'amaguru akaba ahagaze ahantu mu kibuga cy'itaka, yazamuye akaboko ke k'indyo yagakoshije ku gutwi bisa nkaho hari ikintu runaka ari kwitegereza imbere, inyuma ye hari ibyatsi bihagaragara ndetse haragaragara n'inzu nziza cyane.

Ahantu hari abantu benshi batandukanye hakaba higanjemo abakobwa bambaye imyenda yambarwa mu gihe umuntu agiye gukina umupira w'amaguru, hari umugore wikenyeye ufite agakoko kariho imidari aho undi mugore mugenzi we ari kugenda yambika bano bakinnyi batwaye igikombe.

Ni ahantu bigaragara ko hameze nko mu kibuga hakaba hari habaye finari y'umupira w'amaguru, haragaragara abantu benshi higanjemo abakinnyi ndetse ubona ko batwaye n'igikombe ndetse bafite na baro, hari n'abafite icyapa cyanditseho Banki ya Kigali.

Ni amakipe abiri arimo arakinira ahantu hatari ibyatsi hameze nk'ahari ibitaka gusa, bikaba bigaragara ko umukinnyi umwe wambaye impuzankano y'ubururu agiye kwikubita hasi mugenzi we arimo aramwitaza, abandi barimo baraza birukanka ngo barebe ikibaye.

Umugabo ufite mikorofone mu ntoki ze akaba ahagaze imbere y'igice gisakariye cyo muri sitade, inyuma ye hakaba hari umuhanda w'umutuku uciyemo uturongo, uyu muhanda ukaba ukoreshwa n'abantu birukanka.

Ni ahantu muri sitade. Hakaba hahagaze ikipe yambaye impuzankano z'umuhondo zirimo n'uturongo tw'icyatsi. Bakaba bari kumwe n'umugabo ndetse n'undi w'umusirikare bafashe icyapa cyanditseho ngo amarushanwa y'Umurenge Kagame cup bibiri na makumyabiri na kane- bibiri na makumyabiri na gatanu. Twimakaze imiyoborere myiza duharanira ko umuturage aba ku isonga.

Umusore ubona ko ari umukinnyi w'umupira w'amaguru akaba ari mu kibuga gisashemo tapi, yambaye impuzankano akinana umupira y'umuhondo harimo utuntu tw'umukara ashoreye baro, inyuma ye hakaba hagaragara ibindi byatsi ndetse na korotire ikorotiriye icyo cyibuga.

Umukobwa urimo aravugira kuri telefone akaba ari mu kayira k'abanyamaguru kari iruhande y'umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwe hari ibiti bihari ndetse haragaragara n'amapoto ariho amatara amurikira uyu muhanda nijoro, hagaragara kandi amafoto bisa nk'aho ari amazamu y'ikibuga.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, uyu muhanda ukaba ugaragara mu ibara ry'umukara, muri uyu muhanda hakaba harimo umuntu uri kugendesha amaguru ndetse inyuma ye hari imodoka y'umweru irimo irahaturuka, ku ruhande rw'uyu muhanda hakaba hari undi muhanda bicumbikanye ndetse hakaba hubatse indi nzu ndetse ikaba yubatse imbere y'ishyamba rihari, hari n'akayira k'abanyamaguru kahagaragara.

Aka ni akayira k'abanyamaguru, biragaragara ko hari umuhanda uhari mugari w'umukara wa kaburimbo utagaragara neza, aka kayira kakaba ari akayira gacibwamo n'abanyamaguru kugira ngo imodoka zitabagonga.

Ahandi ku muhanda wa kaburimbo w'umukara, hakaba hari akapa kereka abatwaye ibinyabiziga ko imbere gato hari ikorosi. Kuri uyu muhanda, ku ruhande hakaba hari akayira k'abanyamaguru ndetse hateye amapoto ariho amatara amurikira n'umuhanda, haragaragara kandi n'ibiti byinshi.

Ni mu muhanda w'umukara wa kaburimbo ariko bigaragara ko uyu muhanda ushaje, hakaba harimo umumotari uri gutwara moto ndetse yambaye kasike iruhande haragaragara akayira k'abanyamaguru ndetse hari ibiti bihateye, kuri uwo muhanda kandi hateye amapoto ariho amashanyarazi n'amatara amurikira uwo muhanda.

Ni ahantu mu muhanda wa kaburimbo hakaba hagaragara undi muhanda ucomekanye nuwo wa kaburimbo harimo umumotari urimo utwaye umugenzi, iruhande gato hari akayira k'abanyamaguru ndetse muri uwo muhanda umumotari arimo arererekezamo hakaba harimo ibiti biwukikije.

Umuhanda w'umukara hakaba harimo umugabo uri ku igare uhetse amakaziye, inyuma ye haragaragara abandi bantu bari kuwugendamo ndetse iruhande rwe hari akayira k'abanyamaguru karimo abantu bari kuhagenda ndetse haragaragara n'undi muntu wambaye imyenda ya gisekirite uri gutambuka, hari inyubako, haparitse n'imodoka, bisa nkaho hari n'imitaka ya MTN.

Aka ni akayira ko mu cyaro, ubona ko kari ahantu hatari umuhanda uhagije, aragaragara utwatsi duhari ku ruhande ndetse haragaragara n'igicucu cy'umuntu, bisa nkaho hari umuntu uhagaze ariko utari kugaragara, akaba agaragarira muri icyo gicucu, bitewe n'izuba.

Umuntu uri gucunga igare, kuri iryo gare akaba ahetseho amajerekani menshi atandukanye, bisa nk'aho avuye kuvoma, imbere ye hagaragara nk'aho hari ikinyabiziga cy'imodoka, ari mu muhanda wa kaburimbo kuru ruhande ndetse iruhande rwe hakaba hateye ishyamba ry'ibiti byinshi.

Mu muhanda wa kaburimbo hakaba harimo imodoka nziza y'umukara irimo ndetse iruhande rwayo hariho umunyonzi urimo aratwara igare biragaragara ko imbere hari indi modoka iri kuhaturuka ariko itagaragara ndetse inyuma yabo hakaba hari moto ihetse umugenzi ku muhanda hakaba hari ibiti bihakikije ndetse n'amapoto ariho insinga n'amatara z'amashanyarazi.